Abaganga bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'icyatsi hamwe n'udupfukamunwa, bari mu cyumba cy'isuzumiro aho bahanze amaso mu mashini yerekana ibisubizo by'ibizami bakoreye umurwayi, bari kwigira hamwe uburyo barwanya indwara umurwayi afite bakamuvura agakira.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bari mu mahugurwa bicaye mu ruziga, bamwe muri bo bicaye hasi kuri sima, naho abandi bari mu ntebe zifite ibara ry'umukara. Abandi bafite impapuro hagati yabo zigiye zanditseho ibisubizo n'ibitekerezo bari kuganiraho hagiye hari amacupa y'amazi ateretse hagati yabo.

Icyumba kiri gutangirwamo amahugurwa ku buzima bw'abana bato, harimo ameza agiye afite ishusho y'uruziga, ariho igitambaro cy'umukara. Harimo abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye bari gukurikirana amahugurwa. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu bwijimye uri kubahugura.

Icyumba cy'amahugurwa yabaye ku wa makumyabiri ukwakira ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane harimo abantu b'ingeri zitandukanye bicaye bari guhabwa inyigisho kuri virusi yari iri kurwanywa, imbere yabo hari abagabo babiri bari kubahugura; inyuma yabo hakaba icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'umunsi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ishati y'umweru n'ikabutura y'ubururu, bamaze guhabwa amahugurwa bafata ifoto y'urwibutso. Mu ntoki zabo bafite ibitabo byagiye bikoreshwa nk'imfashanyigisho, ndetse hirya yabo mu ifoto harimo n'umwarimu wambaye amadarubindi, urimo kubakurikirana imyitwarire yabo.

Ivomo rusange ry'abaturage, rifite imiyoboro ibiri y'amazi, imbere yaryo hateretse amajerekani abiri ari kujyamo amazi, imbere y'ayo majerekani hari umwana muto ufashe ku ijerekani imwe, hepfo y'iryo vomo hari umu mama uri kwerekera umwana uko rikoreshwa neza.

Icyumba cy'ifashishwa mu kwakira bamwe mu bagana kwa muganga, harimo amameza menshi cyane y'ingeri zitandukanye, ndetse amwe muri ayo agiye ateretseho mudasobwa, hagati yacyo kandi harimo umugabo uhagazemo, ndetse n'umugore umwicaye imbere bari kuganira.

Ivomo rusange ry'abaturage, rifite imiyoboro ibiri izana amazi, hariho abaturage babiri bagiye kuvoma, umugabo n'umugore. Bose bafite injerekani zifite ibara risa umuhondo, inyuma kandi y'iryo vomo, hari umugore uhahagaze ari kubaganiriza wambaye ijire isa n'ibara ry'icunga rihishije.

Abaturage bari mu nama, bicaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umukara, hariho na mudasobwa ebyiri, amacupa atanu y'amazi, umwe muri bo afite insakazamajwi, arimo gutanga ijambo.

Abana babiri batoya bahagaze imbere y'igihingwa gifite amababi y'icyatsi. Umwe ari kurebana ibyishimo ku maso ndetse ari guseka, arambuye ibiganza byombi naho undi afite mu biganza bye igikombe gifite ibara ry'ubururu, ari kumusukira amazi akaraba intoki.

Ivomo rusange ry'abaturage, ryubakiye akazu gafite irangi ry'ubururu n'umweru, bifite imiyoboro ine y'amazi, imbere y'iyo miyoboro, hari amajerekani menshi, amwe ari kujyamo amazi, ayandi atonze umurongo ategereje kugerwaho ngo avomwe. Imbere y'ayo majerekani, hari abagore n'abagabo bose baje kuvoma.

Icyumba cy'amashuri abanza, gifite ibikuta bisize irangi ry'umweru, ikibaho kinini cyane cy'umukara cyandikishijweho n'ingwa, harimo abanyeshuri bicaye bari gufata ifunguro rya saa sita ribateretse imbere, bose bambaye impuzankano y'ishuri, ifite ibara ry'ubururu na kake.

Umwana mutoya bigaragara ko hejuru atambaye ari munsi ya robine izana amazi. Atezeho ibiganza byombi ari kubinyweraho amazi ava muri iyo robine. Inyuma ye hari abandi bantu bakuru batatu, umwe ni umugore wambaye ipantaro isa umukara, inyuma ye kandi hari indi ntebe imwe.

Umubyeyi w'umugore, wambaye ibitenge. Ikindi yagiteze mu mutwe, aricaye ateruye akana ke gatoya, kambaye agapira k'umweru. Imbere yabo hari umuganga wunamye, wambaye itaburiya y'umweru. Urimo kuvura ako kana, bigaragara ko gafite ikibazo.

Amahugurwa ari guhabwa abari n'abategarugori. Bose baricaye ku ntebe imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro n'ikote. Afite agakayi mu ntoki ndetse n'ikaramu arimo kubasobanurira ibijyanye n'aya mahugurwa yabo.

Ivomo rusange ry'abaturage rifite imiyoboro ibiri y'amazi, imbere yaryo hari umusaza uhagaze afite injerekani hagati y'amaguru ye ifite ibara ry'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko magufi, ari guseka cyane afite akanyamuneza ku maso.

Abantu bitabiriye inama, bose baricaye bakurikirana ibiri kuvugirwa muri iyo nama. Imbere turi kuhabona abantu batatu harimo umugore umwe wambaye amadarubindi, wifashe neza, impande ye hakaba umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti, impande ye hakaba umusaza umeze nk'usinziriye.

Abagabo babiri b'abaganga, bari gutanga amabwiriza bayahereza abaturage babiri, umukecuru wambaye agapfukamunwa k'ubururu, n'ingofero y'ubudodo, hamwe n'umusore wambaye ijiri isa n'ubururu, hirya hari umusaza wambaye agapfukamunwa gasa ubururu, n'ingofero y'umukara, wicaye mu ntebe isa n'ubururu, arimo kubareba abitegereza.

Abantu b'ingeri zitandukanye. Bitabiriye amahugurwa. Afite insanganyamatsiko yo kurwanya igwingira. Bita ku buzima bw'ababyeyi batwite kugira ngo babashe kubyara abana bafite ubuzima buzira umuze. Bifashe ifoto y'urwibutso bahagaze imbere y'icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'amahugurwa yabo.

Abaganga babiri, bagiye kuvura abaturage. Bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, hamwe n'udupfukamunwa. Umwe arahagaze, naho undi arunamye, ari gusuzuma, umusaza umwicaye imbere, wicaye ku gatebe k'umutuku, ndetse akaba yambaye n'akagofero k'ubudodo gafite ibara ry'ubururu.

Abana b'abahungu bane bato bagiye kuvoma, ivomo rifite icyuma gisaba ko umuntu agikandagiraho cyangwa akagikwega akimanura kugira ngo amazi abone kuza. Hari umwana umwe ufashe kuri icyo cyuma ari kukimanura kugira ngo amazi abashe kujya mu njerekani bazanye.

Umwana mutoya ufite umusatsi muke ku mutwe, wambaye agapira k'ibara rya oranje ndetse n'agakabutura k'ubururu, imbere ye hari amarobine abiri yose ari kuzana amazi, afite igikombe mu ntoki cy'icyuma gifite ibara ry'umuhondo arimo kuvomeramo amazi.

Abana batoya biga mu mashuri abanza, bambaye imipira y'amaboko magufi, bicaye hasi, imbere yabo hari umutegarugori usutamye, wambaye amadarubindi, uduherena ku matwi, n'akagofero, arimo kunywesha umwana umwe amata, inyuma yabo hari abasirikare bafite inkongoro mu ntoki.

Abantu b'ingeri zitandukanye bitabiriye amahugurwa y'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri; bamwe muri bo bambaye imipira y'imyeru n'ingofero z'umweru, Naho abandi bambaye imipira y'ubururu n'ingofero z'ubururu, abari imbere bafite icyapa kiriho insanganyamatsiko y'umunsi.

Umwana mutoya w'umukobwa ufite udusuko turyamye ku mutwe, yambaye akajipo n'agashati bidozwe mu gitenge gifite ibara ry'umutuku ririmo ikirabyo gifite ibara ry'umuhondo. Imbere ye hari robine iri kuzana amazi ndetse arunamye ari koga intoki kuri ayo mazi ava muri iyo robine.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bagiye kuvoma amazi, hari imashini izana amazi ifite umuyoboro umwe, impande yayo hakaba hari abantu batandukanye bari kureba ukuntu ikora, imbere yayo hakaba hari umuntu urimo kumanura icyo cyuma, kugira ngo amazi abone kuza, hari injerekani iteretse imbere y'umuyoboro iri kujyamo amazi.

Ivomo rusange ry'abaturage, rifite umuyoboro umwe uzana amazi, imbere yaryo hateretse amajerekani atatu, imwe muri zo ikaba neza iri imbere y'umuyoboro iri kujyamo amazi, haruguru ho gato hari akana k'agahungu, gafashe ku njerekani, kari kureba imbere yako, kambaye agapantaro n'agapira k'amaboko magufi, inyuma y'umuyoboro hari ibyatsi byinshi n'insina.

Ivomo rusange ry'abaturage, rifite imiyoboro ibiri y'amazi, imbere yaryo hateretseho amajerekani abiri yose ari kujyamo amazi, afite ibara ry'umuhondo, imbere yayo majerekani, hari abaturage babiri, umugabo n'umugore, bose bafashe ku majerekani yabo, hepfo y'iryo vomo, hari agashyamba gato cyane karimo uduti duke.

Ivomo ry'abaturage rifite umuyoboro umwe uzana amazi, imbere yaryo hateretse indobo ebyiri, imwe ifite ibara ry'umutuku, indi isa ubururu, imwe yuzuye amazi abaturage babiri bari kuyiterura bayivana ku muyoboro, inyuma y'iryo vomo hahagaze abandi baturage batatu, bari kureba ibyo abandi barimo gukora.

Ivomo rusange rifite imiyoboro ibiri y'amazi, imbere yaryo hateretse indobo ebyiri zisa umweru zirimo kujyamo amazi, impande yazo hakaba umwana muto ufashe ku muyoboro umwe bisa nk'aho ari gufunga kugira ngo amazi atameneka, imbere ye kandi hari undi mwana muto ufite indi ndobo y'umweru mu ntoki.

Abagore batatu bagiye kuvoma, babiri bari gukoresha imashini izana amazi, undi umwe arunamye, afite indobo mu biganza, irimo kujyamo amazi, iteretse mu kibase kinini, yambaye ibirenge, ateze agatambaro gasa n'umuhondo.

Umumama witandiye wajyanye akana ke gato k'agakobwa kwa muganga, kambaye agakanzu k'icyatsi, kakaba kahindukiye kari kureba umugabo ubari imbere wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ya kake, arimo kubasomera amabwiriza ku gapapuro afite mu ntoki.

Ivomo ry'amazi ry'abaturage, rifite umuyoboro umwe, imbere yaryo hateretse indubo y'umukara iri kujyamo amazi. Impande yaryo, hari umubyeyi w'umugore, uteruye akana ke gatoya, kambaye akagofero k'umweru kadoze mu budodo. Inyuma yabo, hari ikiraro.

Umubyeyi uhetse umwana mu mugongo arimo gukora amasuku aho arimo koza umufuniko w'indobo ufite ibara ry'iroze, ari kogereza mu ndobo ifite ibara risa umuhondo, hirya yayo hakaba iyindi ndobo isa umutuku, imbere yayo hakaba ivomo rusange ry'abaturage.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo ameza manini afite ishusho y'uruziga, ayo meza ateretseho impapuro n'amakaramu by'abantu barimo gukoreramo inama ndetse hariho n'ibikombe by'icyayi abo bantu barimo gukoresha.

Umwana mutoya w'umukobwa, wiga mu mashuri abanza. Yambaye impuzankano y'ishuri, igizwe n'agashati, n'agasarubeti. Arimo koga intoki kuri kandagira ukarabe. Inyuma ye hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse no hepfo hari izindi nzu, bigaragara ko zisa nk'izisenyeho.

Umubyeyi wo mu cyaro ukenyeye igitenge, wambaye n'ishati ateze n'igitambaro mu mutwe yikoreye indobo y'umutuku ku mutwe ndetse mu kiganza afitemo n'indi isa umuhondo, ari kugenda yerekeje imbere ye hari agashyamba kameze nk'aho bagatemye n'akazu gato.

Abaganga batanu bifotoreje mu ihema ryarimo ryifashishwa mu kwakira abarwayi bo mu nkambi, bane muri bo baricaye, undi umwe abahagaze inyuma, imbere yabo hari akameza gateretseho udukarito twinshi turimo imiti yifashishwaga mu kuvura abarwayi.

Icyumba cyakira abarwayi cyo kwa muganga harimo abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu, imbere turahabona umwe uhagaze imbere ye hari akameza gateretseho mudasobwa ndetse n'utundi dukoresho tw'ibanze twifashisha mu kuvura abarwayi, impande ye hari umurwayi w'umugore wicaye ku gatebe yambitse umukandara wo ku kuboko upima umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cy'inama kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, bose baricaye bari gukurikira inyigisho, bari guhabwa n'umugore ubahagaze imbere, ufite umusatsi muremure w'umukara. Icyo cyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umuhondo; ndetse hejuru harimo amatara agera kuri atatu, ari kubafasha mu kubona.

Umugore ufite umusatsi muke ku mutwe, wambaye umupira usa umuhondo, n'igitenge gisa icyatsi kirimo utudomoro twinshi dusa umuhondo, yicaye ku musambi, ndetse ukuguru kwe kumwe kuziritseho umunyururu ufashe ku giti, aricaye ameze nk'umuntu uri gutekereza cyane.

Icyumba gitangirwamo amahugurwa, ari guhabwa abantu b'ingeri zitandukanye, harimo ameza afite ishusho y'umuzenguruko ariho igitambaro cy'umweru, hejuru y'ayo meza, hateretseho amacupa y'amazi yo kunywa. Hari umugore wicaye imbere y'ameza, wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'amadarubindi.

Umukecuru unanutse ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye igitenge gifite ibara ry'umutuku, igikoti kinini gifite amaboko maremare n'igitambaro mu mutwe. Afite amasashi, impande ye hari amacupa y'amazi n'inkoni, inyuma ye hari umusore wicaye hasi yifashe ku itama.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu cyumba cy'inama, gifite ibikuta bifite ibara ry'umuhondo werurutse, barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere yabo hari akameza gato k'imbaho gateretseho amazi yo kunywa ya Nili.

Umugore w'umuhinzi wikoreye igitebo kirimo umusaruro we, afite isuka mu ntoki ndetse n'intoki ze ziri gusa nabi, bigaragara ko avuye mu murima. Inyuma ye hari inzu isakajwe amategura ndetse n'icyatsi kiri ku ruhande rwayo kirandaranda.

Umugabo ukenyeye igitenge ufite umusatsi mwinshi ku mutwe ujagaraye ndetse n'ubwanwa buri kugenda bukuriraho, yicaye muri rigori ameze nk'uri gutekereza, amaguru ye yose ari muri iyo regori y'amazi, mu ntoki ze kandi afite amasashi ndetse n'impande ye hari ibikoresho by'imyanda bigaragara ko asa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo usa n'ukuze wambaye agapira k'umukara ufite umusatsi muke ku mutwe yipfutse mu maso n'ibiganza byombi aho asa n'utewe ipfunwe n'ibyo yaba yakoze cyangwa afite agahinda akaba adashaka ko abandi bamubona.

Umugabo n'umugore bicaye bari kuganira, imbere yabo hari ameza y'igiti iteguyeho igitambaro cy'umuhondo, hateretseho icupa rindi ry'amaziyo kunywa, bafite mudasobwa; imbere bose bari kurebamo. Umugabo yambaye agapira k'ubururu, umugore yambaye agapira k'icyatsi, afite n'igitambaro cy'ubururu mu mutwe.

Icyumba kiri gutangirwamo amahugurwa, aho abarwayi bicajwe mu buryo bw'umuzenguruko, hakaba hari intebe zidafite abazicayemo, ndetse hagati yabo hakaba harimo bagenzi babo batatu bahagazemo, umwe uteze agatambaro k'umutuku, undi uteza agasa umweru wambaye n'ijipo y'icyatsi.

Abategarugori batatu, bari mu cyumba cy'inama, iri kuvuga ku nsanganyamatsiko yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho bakorera. Baricaye bose. Imbere yabo hari ameza afite ishusho ya kare, ateretseho amazi yo kunywa hejuru. Imbere yabo, hari uwundi wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'insakazamajwi mu ntoki, arimo kubasobanurira ibijyanye n'iyo nsanganyamatsiko.

Icyumba kiri gutangirwaho amahugurwa, ari guhabwa abagore n'abategarugori, bamwe muri bo bahetse abana mu mugongo baricaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hari umugabo uri kubasobanurira wambaye isaku kuboko, inyuma ye hari imeza iteretseho icupa ry'amazi.

Abana batoya biga mu mashuri abanza, bose bambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ishati n'ikabutura ku bahungu cyangwa ijipo n'ishati ku bakobwa, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki barimo koza amenyo bose, bafite n'udukombe dutoya tw'amazi mu ntoki barishimye cyane.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, yagiye kwivuza amenyo, bamwicaje ku gatebe, impande ye hari umuganga w'umugabo, wambaye itaburiya y'umweru, n'ishati y'ubururu mo imbere, n'agapfukamunwa arimo kumuvura, inyuma yabo hari amadirishya ariho amarido y'umuhondo.

Umwana muto w'umuhungu, wambaye agashati k'ubururu, gafite amaboko maremare ndetse banahinnye, afite umusatsi muke ku mutwe, akaba afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, bufite ibara ry'umuhondo n'ubururu, arimo koza amenyo. Afite amenyo y'umweru, n'ishinya y'umukara.

Umuganga wicaye mu cyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, yicaye ku gatebe gafite ibara ry'icyatsi, yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, ndetse yambaye n'isaha ku kuboko, haruguru ye hari agatanda k'abarwayi, baryamo gafite ibara ry'icyatsi, haruguru yako hakaba ubukarabiro bufite ibara ry'umweru.

Isuzumiro ryo kwa muganga ry'abarwayi bafite ikibazo cy'amenyo, harimo agatebe kagaramye gafite ibara ry'icunga rihishije, imbere yako hari imashini ikoreshwa n'abaganga bari gusuzuma mu kanwa, hepfo ku gikuta hari isaha ifasha abarwayi mu kureba aho igihe kigeze.

Umwana mutoya w'umukobwa wicaye mu gatebe k'ubururu, ni imibiri yombi, afite mu mutwe agatambaro gafite ibara ry'iroza, yambaye agakanzu k'icyatsi n'agapira k'umweru mo imbere, afite uburoso bw'amenyo mu kiganza kimwe, akaba yasamye ari kureba imbere.

Umusore wirabura, ufite umusatsi uringaniye ku mutwe, arahagaze, ari kwireba mu ndorerwamo imuri imbere, afite akagozi gatoya ari kunyuza mu menyo ayakorera isuku. Yambaye umupira ufite ibara ry'umweru w'amaboko magufi.

Umwana muto w'umukobwa ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, yambaye amaherena ku matwi yombi n'agapira k'iroze, arimo guseka arebana ibyishimo umuganga urimo kumusuzuma yifashishije udukoresho turebabe uko mu kanwa he hameze.

Umugabo w'imibiri yombi, ahagaze imbere y'igikuta, afite umusatsi muke cyane ku mutwe we, ibitsike byinshi, amaso asa nk'ayatebeyemo bitewe n'akamwenyu kari ku maso ye, afite ubwanwa bwogoshe, amatwi ye yose arimo kugaragara.

Abaganga babiri umugabo n'umugore, bambaye impuzankano yamatabiririya y'umweru, barimo gusuzuma umwana ufite ikibazo cy'amenyo, umwana abicaye imbere mu ntebe y'ibiti, yambaye umupira usa umukara imbere ye hari ameza ariho impapuro n'ikaramu.

Umusore n'umukobwa bari mu bwiherero burimo ubukarabiro, bakaba barimo kwireba mu ndorerwamo ibari imbere, barimo baraseka cyane bafite ibyishimo. Umukobwa afite umusatsi mwinshi ku mutwe, naho umusore afite umusatsi ukaseho gatoya ujya kugera mu maso.

Abagabo babiri bari mu nzira bari kugendana, umwe ni mugufi, ni umusaza wambaye akagofero mu mutwe, akaba yambaye n'ishati y'amaboko maremare, isaku ku kuboko n'ipantaro, hamwe n'inkweto zifite ibara ry'umukara n'umweru. Undi ni muremure, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, ndetse n'agapantaro gafite ibara risa n'ikigina.

Abategarugori babiri bari mu myitozo ngororamubiri, harimo umukecuru ufite umusatsi wiganjemo imvi, akaba afite igitambaro cy'umweru kizengurutse ku kuboko kwe kw'iburyo, inyuma ye hari uwambaye isengeri y'icyatsi n'amaherena ku matwi yombi, bose barambuye amaboko.

Umutegarugori uri mu zabukuru ufite umusatsi muke uringaniye. Wose wiganjemo imvi urebye ufite ibara ry'umweru. Yambaye agashati gafite ibara ry'umweru aricaye. Inyuma ye hari umukobwa muto wafungiye umusatsi inyuma, wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'icyatsi n'umweru. Bari kwifotoza agafoto k'urwibutso bose baseka bishimye.

Umukecuru wambaye amadarubindi, igitambaro mu mutwe n'umupira w'amaboko maremare, impeta ku rutoki, yicaye mu ntebe, inyuma ye hari umukobwa wambaye agapira k'ubururu yafungiye imisatsi inyuma, amufashe mu ijosi barimo baraganira.

Umugabo uri mu zabukuru ufite umusatsi muke ku mutwe, ari gukoresha icyuma kimufasha mu kugorora ingingo akabasha kugenda neza. Yambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umweru, inyuma ye hari umugore ushinzwe kumukurikirana areba ko ntaki kibazo agira.

Umutegarugori usa n'uri mu zabukuru, afite umusatsi muke ku mutwe, yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwererutse ndetse n'uwundi wo kwifubika inyuma yako ufite ibara ry'umweru. Mu ntoki ze afite umugozi wifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'impande ye hari ushinzwe kumufasha kuyikora neza.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga, harimo umusaza uri mu za bukuru uryamye ku gitanda, afite ubwanwa bwiganjemo imvi nyinshi, yambaye umupira w'umweru afite umukandara ku kuboko upima umuvuduko w'amaraso ye hepfo ye hari umuganga uri kumukurikirana.

Umugabo uri mu za bukuru, ufite uruhara ku mutwe, yambaye amadarubindi, afite ubwanwa bwiganjemo imvi. Yicaye mu ntebe, yambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'ubururu n'insengeri y'umweru mo imbere. Impande ye hicaye umuganga w'umugore wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu bwijimye, akaba yamwambitse umukandara upima umuvuduko w'amaraso.

Umugabo uri mu za bukuru, ufite imvi nyinshi ku mutwe, aricaye ari kurebana ubwuzu n'ibyishimo umutegarugori umuhagaze inyuma; ushinzwe kumwitaho wambaye impuzankano y'akazi, ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hakaba hari intebe zifite ibara ry'umweru, harimo n'imisego.

Umukecuru uri mu zabukuru, wambaye umupira w'amaboko maremare, w'ibara ry'icunga rihishije. Yambaye amadarubindi, ateze igitambaro cy'umukara ku mutwe, aricaye ari kurebana n'umukobwa umuri inyuma, wambaye impuzankano y'akazi, y'ibara ry'ubururu, ushinzwe kumwitaho.

Umusaza ufite imvi nyinshi ku mutwe, n'ubwanwa bwiganjemo imvi, yambaye amadarubindi, arahagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'amaboko magufi w'bururu, n'ipantaro y'umukara, mu ntoki zombi afitemo udukoresho dufite ibara ry'umutuku twifashishwa mu myitozo arimo.

Umusaza ufite imvi nyinshi ku mutwe, yambaye amadarubindi, umupira w'amaboko maremare n'ipantaro, yicaye mu kagare kamufasha mu kumworohereza urugendo, inyuma ye hari umukobwa w'umuganga ushinzwe kumwitaho, barimo kugenda baganira, baseka cyane bishimye.

Umugore n'umugabo bambaye imipira isa ifite ibara risa n'umutuku, umugabo yambaye amadarubindi naho umugore amadarubindi ye amuri iruhande, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta ku rutoki rumwe, bose bahanze amaso ku mukino wo guhuza imibare barimo barakina.

Umurima w'icyayi harimo abategarugori benshi barimo gusarura, babiri bari imbere bose bateze ibitambaro mu mutwe. Ndetse umwe ari kureba imbere ye aseka cyane. Inyuma yabo gato, hari igitebo kinini cyane bose barimo guhurizamo umusaruro.

Umusaza ufite imvi nyeya ku mutwe n'ubwanwa bwiganjemo imvi, yambaye amadarubindi, aricaye yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, ari kurebana n'umuganga w'umugore ushinzwe kumwitaho, wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu, akaba yamushyizeho umukandara wo mu kuboko wifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Umugabo uri mu zabukuru ufite umusatsi muke ku mutwe wiganjemo imvi, yambaye amadarubindi n'umupira w'amaboko maremare. Imbere ye hari akameza gateretseho ikirahure cy'amazi, ikayi ndetse n'imitii itandukanye. Imbere y'ako kameza hari umuganga w'umugore wicaye arebana n'uwo mugabo, ari kumuha amabwiriza y'uko azajya akoresha imiti.

Umukecuru uri mu za bukuru ufite umusatsi wiganjemo imvi ku mutwe we ari mu myitozo ngororamubiri, mu ntoki ze zombi afite udukoresho twifashishwa mu myitozo ndetse arimo guseka cyane bigaragara ko yishimiye igikorwa ari gukora.

Umugabo ukuzemo ufite umusatsi muke ku mutwe, ndetse n'ubwanwa bwinshi bwiganjemo imvi, aricaye imbere ye hari ameza arimo impapuro, bigaragara ko yahoze azisomamo, ariko muri aka kanya akaba afunze amaso, yifashe mu gahanga, arimo gutekereza.

Umutegarugori uri mu zabukuru afite umusatsi mwinshi ku mutwe w'umukara aricaye, yambaye ishati y'amaboko maremare ariko yayahinnye ayageza mu nkokora, ifite ibara ry'umuhondo n'amadarubindi mu maso, afite ibinini mu ntoki agiye kunywa, imbere ye ku kameza hakaba hariho n'ibindi bitandukanye byose agiye gufata.

Abagabo biganjemo abakuze, bicaye hasi barimo gukurikira inyigisho umwe ari kubaheriza zijyanye n'ububoshyi arimo gukora, bicaye mu nzu ifite ibikuta bisa umuhondo ariko kubera ko hasi yaho hagiye handura hafite ibara risa ikigina.

Umugabo muremure, wirabura, ufite umusatsi muke ku mutwe n'ubwanwa byose byiganjemo imvi, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, afite udukoresho twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri mu ntoki, yambaye n'isaha ku kaboko, hepfo ye hari umugore wambaye impuzankano y'akazi uri kumufasha muri iyo myitozo.

Umusaza muremure wirabura ufite imvi nyinshi mu bwanwa, bigaragara ko ari mu za bukuru, arahagaze mu nzu ifite ibikuta by'umweru, afashe ku cyuma, ndetse akurikira amabwiriza arimo guhabwa n'umukobwa umuri impande ushinzwe kumukurikirana.

Umukecuru ufite umusatsi muke ku mutwe, wambaye ikanzu y'amaboko magufi, aricaye ari kurebana n'umuganga w'umugore wamufashe n'ibiganza byombi ku kuboko kwe kw'ibumoso ari kumupima, uwo muganga yambaye impuzankano y'akazi, isaha y'umukara ku kuboko, yafungiye imisatsi inyuma ndetse mu maso yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa.

Umugore ufite umusatsi mukeya ariko urimo imvi nyinshi, wambaye amaherena ku matwi yombi, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, impande ye hari umukobwa ufite umusatsi mwinshi urimo kumukurikirana amwerekera uko bikorwa neza.

Umugabo uri mu za bukuru, ufite umusatsi muke ku mutwe n'ubwanwa, byose byiganjemo imvi, aricaye ku meza, yambaye umupira w'amaboko maremare udoze mu budodo, imbere ye hari ameza ateretseho ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto, imbere ye hari umuganga w'umugore ushinzwe kumwitaho.

Umukecuru ufite imvi nyinshi ku mutwe wambaye amadarubindi, ishati y'umukara hamwe n'umupira munini cyane wo kwifubika udozwe mu budodo, ahagaze hagati y'umugore n'umugabo, barimo kumutegurira ifunguro rya mu gitondo ryiganjemo imboga hamwe n'imbuto.

Umugabo n'umugore bifotoreje imbere y'icyapa kiriho ikirango cy'umuryango wari wabahaye amahugurwa. Umugabo akaba yambaye ipantaro n'ikote bisa, mo imbere ishati isa n'ubururu bwerurutse, naho umukobwa yambaye ikanzu n'inkweto zizamuye.

Urubyiruko rw'ingeri zitandukanye ruri kugenda mu muhanda, aho bose bambaye imipira ifite ibara ry'umweru. Abahagaze ku murongo w'imbere bafite ibyapa bibiri byose biriho amagambo ashishikariza abaturage kwirinda Kanseri y'ibere.

Icyumba babagiramo cyo kwa muganga gifite ibikuta bisize irange ry'umweru, harimo abaganga bageze kuri batanu, imbere yabo hari imashini ziri ku bikuta, ziri kwerekana uko umurwayi bari kwitaho ahagaze kugira ngo bose babashe gutanga ibitekerezo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ipantaro y'umukara n'inkweto bamuryamishije ku gatanda gato cyane k'ubururu kari mu byatsi, bigaragara ko yagize ikibazo cy'ubuzima gitunguranye. Arimo guhabwa ubuvuzi bw'ibanze na bamwe mu bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bambaye amajire bashinzwe kubikurikirana.

Abagabo babiri bambaye amapantaro y'umukara n'amakoti y'umukara, mo imbere harimo ishati y'umukara, umwe aricaye naho undi amuhagaze inyuma yifashe mu mufuka bari ku ifoto iri guhugurira abaturage kwita ku buzima bwabo imbere, yabo ndetse handitse amazina yabo.

Abakorerabushake bari guhereza amabwiriza abana b'abakobwa ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere yabo, bababwira ukwezi kwabo, imihango yabo ndetse bakabereka n'impapuro z'isuku bakoresha mu gihe baba bayigiyemo.

Icyumba cy'inama, harimo umugabo uhagaze imbere y'abandi, arimo arabasobanurira ibijyanye n'inama barimo ndetse abandi barakurikiye cyane, bicaye ku meza afite ishusho y'uruziga, ariho igitambaro gifite ibara ry'umweru, kuri ayo meza kandi hateretseho na mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Mu cyumba cy'inama hari umugabo wambaye ikoti n'amadarubindi, ahagaze imbere y'abandi aho arimo kuvuga ijambo. Hirya ye hakaba hari ibifata amashusho n'amajwi. Inyuma ye hari igikuta kiriho amashusho amwerekana neza ku bantu bicaye inyuma batari kubasha kumubona neza.

Abaturage bo mu bihugu bitandukanye bari bavuye mu mahugurwa maze bagafata ifoto y'urwibutso. Harimo abagore babiri b'abanyamahanga, ndetse n'abagabo batanu. Muri abo bagabo harimo babiri bambaye amakote, ndetse n'umwe wambaye umupira w'icyatsi, n'undi wambaye uw'ubururu, undi akambara ujya gusa n'umweru.

Abategarugori batatu b'abaganga bifotoje ifoto bahagaze mu muhanda w'ibitaka bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi, naho haruguru y'uwo muhanda hari ibiti binini cyane bibiri.

Icyumba cyo kwa muganga gicumbikira abarwayi barembye, harimo umurwayi umwe uryamye asinziriye, imbere y'igitanda cye hateretse akameza, hirya yacyo hari umuganga uri kumwitaho wambaye itaburiya isa umweru, iki cyumba kikaba gifite amarido asa icyatsi n'ibikuta bisa umweru.

Umuhanda uriho icyapa kiranga amerekezo y'Ikigo Nderabuzima cya Matyazo. Hirya y'icyo cyapa hari abaturage barimo gusohoka mu marembo y'iki kigonderabuzima, mo imbere harimo inzu ifite amabati y'ubururu n'imiryango isa umweruru.

Inzu yo kwa muganga yakira ababyeyi bamaze kubyara, yubakishijwe amatafari ahiye, isakarishijwe amabati y'ubururu, imiryango, amadirishya, n'inkingi, byose bifite irangi risa umweru, mu kayira kagana kuri iyo nzu, harimo amabuye menshi abantu bagenda banyura.

Inzu yo mu kigo nderabuzima cya Rwerere, yubatse munsi y'agakingo gatoya gateyeho utwatsi n'uduti tumwe tw'uturabo, iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye hasi, hejuru ikaba isizwe irangi rifite ibara ry'umweru, haruguru yaho hari umuturage urimo gutambuka mu kayira gato gahari.

Icyumba cyo kwakiramo abarwayi cyo kwa muganga, harimo umwana muto cyane w'uruhinja wambaye utwenda tw'umweru, akaba ari mu migozi ifashe ku munzani upima ibiro bye. Impande ye hari umugore wambaye ishati y'umweru, ufite umusatsi mwinshi ku mutwe uri kumureba kugira ngo atagira ikibazo. Inyuma yabo hari abandi barwayi batandukanye na bo baje kwivuza.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga, gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hejuru harimo amatara amurikira abarwayi, harimo ibitanda bitandukanye, imbere yabyo hagiye hari intebe z'abarwaza bicaramo. Harimo kandi amarido agiye atandukanya buri gitanda cy'umurwayi. Imbere y'ibyo bitanda ho gato, hari utumeza abaganga baterekaho imiti.

Umurwayi w'umugabo uryamye ku gatanda ko kwa muganga, wambaye agapfukamunwa gasa n'umukara, ipantaro y'umuhondo n'amasogisi y'umweru, impande ye hari umuganga w'umugore wambaye itabuririya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, wogoshe umusatsi urimo kumusuzuma.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga harimo umuganga urimo kuvura umurwayi wicaye agakoresha akuma gasuzuma uko umutima utera, inyuma yabo hari undi murwayi nanone urimo kubitegereza areba ibyo bari gukora.

Inyubako y'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya, ni inzu igeretse gatatu, ikaba isize irangi ry'ibara ry'icunga rihishije, ifite amadirishya n'inzugi bigizwe n'ibirahuri, imbere mu mbuga yayo harimo imodoka nyinshi, ndetse wakigira imbereho gato, ukahabona akapa karangira ku bantu baba baje bagana ibyo bitaro.

Abategarugori babiri bari mu za bukuru, baricaye hasi imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'irozi ryijimye, yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa yakamanuye, yambaye isaha ku kuboko ifite ibara ry'umukara, afite umukandara yambitse umwe muri abo ba mama ari ku mupima umuvuduko w'amaraso.

Abagabo babiri bicaranye umwe ni umukozi w'ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubuzima wambaye amadarubindi, arimo gukoresha imashini kuri mugenzi we aho yamwambitse ikimeze nk'umukandara wo ku kaboko upima umuvuduko w'amaraso ye.

Icyumba k'isuzumiro cyo kwa muganga harimo umurwayi wambaye imyenda y'icyatsi ufite umusatsi muke ku mutwe aryamye ku gatanda k'umukara yoroshe igitambaro cy'umweru inyuma y'igitanda cye hari imashini ziri kwerekana ibiri kuva mu isuzuma rye.

Icyumba cyakira abarwayi cyo kwa muganga, harimo udutanda twinshi dufite ibara ry'umweru tw'abarwayi, inyuma ya buri gatanda hagiye hari itara rifasha mu kongera urumuri ndetse n'inzitiramibu, imbere hakaba amarido abasha mu gutanga umutekano ku murwayi.

Inzu icururizwamo imiti yo kwa muganga, ifite ibikuta bifite ibara ry'umweru n'udutara dutoya tubiri, turi hejuru, dufasha mu kongera urumuri mu nzu, ifitemo utubati tunini, dufite ibyumba byinshi, bigiye bibikwamo imiti itandukanye kubera ko bakira abarwayi b'indwara nyinshi zitandukanye.

Abaganga b'abagore bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu bwerurutse n'udupfukamunwa, bifotoreje imbere y'igikuta cyanditseho izina ry'ivuriro bakoreramo, iryo zina rikaba ryandikishijwe inyuguti nkuru mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu gukurikirana abarwayi bafite ikibazo cy'amaso, yo mu kigo nderabuzima cya Gihundwe, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isize amarangi y'umweru ifite imireko y'icyuma ni tiyo imanura amazi hasi, isakarishijwe amabati y'ubururu.

Icyumba cyakira abarwayi cyo kwa muganga gifite ibikuta bisize irange ry'umweru, amatara hejuru afasha mu kongera urumuri mu cyumba, harimo ibitanda bitatu by'abarwayi bisasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi, ndetse hagati ya buri gitanda n'ikindi hagiye harimo amarido afite ibara ry'ubururu bwererutse yifashishwa mu kubitandukanya agatanga umutekano.

Umusaza wambaye amadarubindi ufite imvi kumutwe, ndetse nizindi ziganje mubwanwa bwe yambaye ishati yumutuku. ndetse aricaye arimo kureba umuganga urimo kumupima umuvuduko we w'amaraso barimo guseka cyane bigaragara ko bose bishimye.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, udutanda dutatu dufatanye n'akameza umurwayi yakifashisha aterekaho ikintu bitamugoye, haruguru ya buri gatanda hagiye hariho imashini yerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, kandi hagati y'ibitanda hagiye harimo amarido abitandukanya afite ibara ry'umukara.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga harimo igitanda kimwe kinaryamyeho umurwayi, impande yacyo hari imashini zerekana uko ubuzima bwe buhagaze ndetse imbere yazo ho gato hakaba hari umuganga wambaye imuzankano ifite ibara ry'ubururu, uri kumukurikirana.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, kirimo udutanda tubiri tw'abarwayi, tugiye dufite imbere imashini abaganga bazagenda bareberaho uko umurwayi ameze, hagati yatwo hakaba hateretsemo akameza ko umuganga yafasheho imiti, kikaba gifite amarido afite ibara ry'umweru.

Icyumba cyakira abarwayi cyo kwa muganga, harimo ibitanda byinshi, hejuru yabyo hagiye hateretseho bimwe mu bikoresho by'ibanze, bikenerwa n'abarwayi. Inyuma y'ibitanda, hari amadirishya yifashishwa mu kongera umwuka mwiza muri icyo cyumba. Imbera ya buri gitanda, hagiye hateretse utumeza duto, umurwayi yakwifashisha aterekaho bimwe mu bikoresho bye.

Inzu igeretse iriho icyapa cy'aho bacururiza imiti i Remera, impande y'iyo nyubako hari imodoka ifite ibara risa n'ubururu bwijimye. Imbere ya buri muryango hagiye hari igiti kibafasha mu kugira umwuka mwiza.

Icyumba abarwayi bararamo, kirimo ibitanda bitanu, ndetse imbere ya buri gitanda hagiye hari akameza buri murwayi yagenda yifashisha. Igitanda kigiye gishasheho amashuka asa umweru n'ubururu. Hejuru kandi harimo amatara atatu acanye cyane, bigaragara ko urumuri ruhagije.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako nyinshi zitandukanye, zifashishwa mu kwakira abarwayi b'ingeri zose, zimwe zubakishijwe amatafari ahiye, izindi zifite irangi rifite ibara ry'umuhondo, zose zisakarishijwe amabati afite ibara ry'ubururu, hagati yazo harimo ubusitani ndetse harimo n'abaturage bagiye bicaye muri ubwo busitani.

Icyumba cy'umurwayi cyo kwa muganga, harimo agatanda kamwe k'umurwayi aryamaho, inyuma yako hari ifoto y'ururabyo yometse ku gikuta, hepfo gatoya hari amadirishya abiri yifashishwa mu kongera umwuka mwiza mu cyumba ndetse n'akameza kari imbere y'ayo madirishya gatoya.

Uruzitiro rw'ibitaro bya Ruhengeri, rugizwe n'inkingi zubakishijwe amatafari ahiye, ndetse hagati y'inkingi imwe n'indi, hagiye harimo ibyuma bizitandukanya. Imbere yarwo turahabona ubusitani bwo mu bitaro, ndetse na zimwe mu nyubako zifashishwa mu kwakira abarwayi. Inyuma yarwo hari abaturage bari kugenda mu muhanda.

Icyumba cyo kwakira abarwayi, gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru hariho imashini zitandukanye zizajya zifashishwa mu kwerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, harimo agatanda gatoya karikurebana n'akameza gafite ubukarabiro.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, gifite ibikuta bisa umweru, ndetse harimo ibitanda bitatu by'abarwayi. Hirya ya buri gitanda hagiye hari akameza, ko umuganga akoresha ashyiraho imiti, ndetse hari n'imashini yerekana uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba cy'abarwayi b'indembe cyo kwa muganga, harimo abaganga benshi bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'umweru ririmo imirongo y'ubururu, harimo udutanda dutandukanye tugiye turyamyeho abarwayi ndetse hagati ya buri gitanda n'ikindi hakaba harimo amarido asa ubururu agiye abitandukanya.

Inzu zigeretse ebyiri ziteganye, zifite ibara risa umweru ndetse n'amatafari ahiye ku ruhande, zikaba zifite uruzitiro rw'ibyuma, imbere yazo kandi hari umuhanda bigaragara ko uri kunyurwamo n'abantu benshi batandukanye.

Icyumba cy'abakozi bakoreramo gifite ibikuta bisa umweru ndetse kikaba kirimo ameza afite amashusho atandukanye kandi menshi, harimo aho kujugunya imyanda ndetse n'intebe abakozi bicaraho igihe bari mu kazi.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, gifite inkuta zifite ibara ry'umweru, hejuru hakabamo amatara atuma icyumba kibasha kubona neza, harimo agatanda kamwe k'umurwayi aryamaho, inyuma yako hakaba imashini zerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, hepfo yazo hakaba idirishya rifasha mu kwinjiza umwuka mu cyumba.

Icyumba k'isuzumiriro cyo kwa muganga, kifashishwa ku barwayi baje kwivuza amaso, gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, hagati harimo ifoto ishushanyijeho amaso imbere mu cyumba harimo utumeza tubiri tugiye dufite agatebe imbere n'inyuma, kamwe k'umurwayi akandi k'umuganga umuvura.

Icyumba cy'abarwayi bari mu cyiciro cy'abana, cyubakishijwe amatafari ya sima, imbere hari imiryango igizwe n'ibirahuri. Hejuru ho gato ku mpande zombi turahabona utumenyetso dufite ibara ry'umuhondo n'umukara. Hejuru cyane tukahabona inyuguti ziranga icyo cyumba, zifite amabara atandukanye ariho umutuku, ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Akayira k'abagenzi ko kwa muganga, gakikijwe n'indabo impande zombi ndetse harimo akana gato k'agakobwa kambaye agakanzu k'icyatsi, gafashwe akaboko n'umubyeyi, bari gutambuka, imbere yabo hakaba undi mwana w'umuhungu ufite akabase gato k'umukara mu ntoki.

Umuganga w'umugore ufite umusatsi usutse ku mutwe, wambaye agashapure k'umukara ku kuboko kwe kw'ibumoso, yambaye itaburiya y'umweru, arimo kwita ku mugore utwite, aho ari gukoresha akamashini akagashyira ku nda, akumva uko umutima w'umwana utera.

Inyubako y'icyicaro gikuru cyatangirwa amaraso , igereretse rimwe yubakishijwe amatafari ahiye, ahandi igiye isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari umuhanda w'umukara wa kaburimbo, iparitsemo imodoka zigeze kuri eshatu, zimwe ziri kuyireba, izindi ziri kureba inyuma.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako zitandukanye zifite ibara ry'umweru zisakarishijwe amabati y'ibara ry'icunga rihishije, gifite ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibyatsi, hirya yabwo hari abaturage bahagaze ndetse n'abandi bicaye barimo baraganira.

Inzu y'ababyeyi bamaze kwibaruka yo kwa muganga, isize irange rifite ibara ry'icunga rihishije hamwe n'umweru, igeretse rimwe, imbere yayo hahagaze abaganga bane b'abagore bambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu bwererutse.

Icyumba cy'isuzumiro cy'abana cyo kwa muganga, gifite ibikuta bigiye biriho amashusho y'inyamaswa z'ubwoko bwinshi, harimo agatanda kamwe k'umukara k'umwana aryamaho, impande yako hakaba agatebe umuganga yicaraho amusuzuma, ndetse imbere y'ako gatanda hakaba imashini yerekana ibisubizo biri kuva mu isuzumiro.

Icyumba cy'umurwayi cyo kwa muganga, harimo agatanda kamwe k'umurwayi aryamaho gafite ibara ry'umukara, imbere yako hari akamashini kerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze, imbere ku gikuta hariho utubati dufatanye n'igikuta ndetse n'akameza abarwaza bakwifashisha; haruguru hakaba ubukarabiro.

Umukecuru uteze igitambaro cy'umukara mu mutwe, yambaye ikanzu idozwe mu gitenge gifite ibara ry'ubururu, kirimo uturabyo, twiganjemo amabara atandukanye. Aricaye, imbere ye hari umuganga wambaye impuzankano y'akazi, ifite ibara ry'ubururu, barimo kuganira, hepfo yabo hari urutoki.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga, gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru ndetse n'amatara hejuru; harimo udutanda tubiri, dufite ibara ry'umukara, tw'abarwayi baryamaho. Impande ya buri gatanda, hagiye hari akameza, umuganga yifashisha, ashyiraho udukoresho dutandukanye. Ndetse hirya yatwo, hakaba imashini zerekana uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye inkweto zifunze zifite ibara ry'umweru n'amarase y'umweru, ukuguru kumwe kwe kurahinnye, naho ukundi kurarambuye, na we akaba yunamye arambuye ibiganza abikoza ku kirenge.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umutuku, ikabutura n'inkweto bifite ibara ry'umukara n'isaha ku kuboko afite umupira mu ntoki arimo gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari umutoza ushinzwe kumwitaho ari kumuha amabwiriza, yambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga gifite inkuta n'inzugi bisize irangi ry'umweru, harimo agatanda gato k'umurwayi aryamaho, imbere yako hakaba hari agatebe umuganga uri kuvura yicaraho, hepfo hari akadirishya gafunguye, gafasha mu kwinjiza umwuka mwiza mu cyumba.

Imodoka y'imbangukiragutabara ishinzwe kujyana abarwayi barembye ku bitaro bitandukanye, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari urukuta rw'amabuye, haruguru y'urwo rukuta hari ibiti birebire cyane by'amoko atandukanye, hagati y'ibyo biti harimo akazu gatoya.

Umugabo uri mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri uryamye hasi yambaye isaha y'umukara ku kuboko, agakabutura k'umukara n'udusogisi tw'umweru, akaba ari gukoresha imashini ifite umugozi ufashe ukuguru kwe arimo kurambura amaguru.

Umugore n'umugabo bagiye gukora imyitozo ngororamubiri, bose bambaye udukabutura duto cyane dufite ibara ry'umukara, umugabo yicaye ku ntebe y'ibiti afite icupa mu ntoki arimo kunywa amazi, umugore ahagaze hepfo y'intebe arambuye amaboko hejuru arimo kuyagorora, imbere yabo hateretse ibikapu.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura n'agasengeri bifite ibara ry'icyatsi ndetse yambaye n'inkweto zifite ibara ry'icyatsi n'umweru, afite umusatsi usutse ugeze mu mugongo, arahagaze ukuguru kumwe yaguhinnye agufatishijeho ibiganza byombi mu ivi.

Umukobwa n'umusore bari mu myitozo yo kwiruka, bafite amacupa mu ntoki y'amazi, umukobwa yambaye agasengeri k'ubururu n'agakabutura k'umukara, n'umusore nawe yambaye agasengeri n'agakabutura gato cyane, hirya yabo hari umusozi muremure cyane, ndetse n'utwatsi dukeya.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye udukabutura tugufi cyane n'amasengeri, bafite amacupa mu ntoki arimo amazi yo kunywa, umukobwa yambaye isaha ku kuboko ifite ibara ry'umukara, impande yabo hari utuntu tw'uduti dutoya, hirya cyane tukahabona ikirunga.

Umusore w'ibigango wambaye ikabutura y'umukara, hejuru nta kintu yambaye, akaba afite icyuma mu biganza byombi, baterura bari mu myitozo ngororamubiri. Ari ku ifoto yamamaza ibijyanye n'imirire myiza, ku buryo ituma umuntu agira ubuzima bwiza. Imbere ye hari ibiribwa bitandukanye, birimo amagi, karoti, amazi ndetse n'imbuto.

Umusore uri gukorera imyitozo ngororamubiri impande y'uruzitiro rw'ikiraro, yambaye agapira k'amakoboko magufi k'umweru, agakabutura gato cyane k'umukara, arahagaze, ukuguru kumwe yagushyize ku ruzitiro ndetse afatishijeho ikiganza ku kirenge cy'uko kuguru, impande ye hari amazi menshi cyane ari gutemba.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye hasi amaguru yayasobekeranyije, naho amaboko yayazamuye, imbere yateretse mudasobwa, haruguru ye gato hakaba hari udukoresho tumwe na tumwe yifashisha mu myitozo ye ndetse n'icupa ry'amazi. Hepfo hari intebe zifite ibara ry'umweru.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'umukara, arimo kwita ku murwayi waje kwivuza afite ikibazo cy'imvune, mu ivi ry'ukuguru kw'iburyo. Yamuryamishije, ukuguru kumwe araguhina, naho ugufite ikibazo arakurambura. Munsi y'ivi ashyiramo agasume k'umweru, kugira ngo bimworohereze mu gihe ari kumuvura.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga gifite inkuta zifite irangi risa umweru, harimo imashini nini isa umweru bashyiramo umurwayi ugiye gukorerwa ibizami, imbere y'iyo mashini hari agatanda gato umurwayi aryamaho igihe ari kwitegura.

Abaturage b'ingeri zitandukanye bari mu myitozo ngororamubiri, imbere yabo hari umutoza uri kugenda abereka ibyo bagiye kugenda bakora bitandukanye. Bari kubikorana umurava, bigaragara rwose ko babyishimiye, n'akamwenyu ku maso, kuba uri kubasha kwibonera.

Umuntu wambaye ikabutura n'isengeri by'umukara, amasogisi y'ubururu bwijimye n'inkweto z'umweru, yicaye ku gatanda k'umukara ko kwa muganga, ukuguru kumwe kurahinnye, ukundi kurarambuye kuri mu biganza by'umuganga umwicaye imbere, arimo gukurikirana imvune ye.

Umutegarugori muremure cyane uri mu myitozo ngororamubiri, afite umusatsi yafungiye inyuma yambaye agasengeri gato k'icyatsi n'agakabutura k'umukara arunamye amaboko yombi yayafatishije ku mavi, yambaye isaha ku kuboko, hasi ku birenge yambaye inkweto zifite ibara ry'icyatsi n'amarase y'umukara.

Umukobwa wicaye mu cyumba gifite ibikuta bifite ibara ry'umweru, yicaye ku buriri arambuye amaboko yombi, ari kwinanura mu gitondo ndetse yambaye imyenda, iyo bakorana imyitozo ngororamubiri, ifite ibara risa n'umukara.

Umuntu wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, n'isaha y'umukara ku kuboko kwe, afashe n'ibiganza byombi, ku ivi rye ry'ukuguru kw'ibumoso, akaba ahagaze mu muhanda. Ameze nk'uri kurikanda nkaho ryagize ikibazo.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye, yicaye ahantu hasa umweru. Ukuguru kumwe kurarambuye, naho ukundi kurahinnye, gufatishijweho amaboko yombi, ndetse n'ipantaro irazamuyeho gato. Afite mu ntoki agasashe gafite ibara ry'ubururu, afatishije ku gatsinsino bigaragara ko arimo kwivura.

Umurwayi wagize imvune ku kirenge cye cy'iburyo yagiye kwivuza. Bakaba bari kumukurikirana umuganga amuhagaze imbere, Yicaye we ku gatanda gasa n'ubururu ukuguru kumwe kurahinnye n'aho ukundi kuriho imvune kurarambuye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ipantaro y'ikoboyi n'umukufi mu ijosi uriho urufunguzo, yagiye kwa muganga kwivuza imvune afite mu kirenge cy'ukuguru kw'iburyo. Ari gukurikiranwa n'umuganga wambaye ishati y'umweru n'isaha ku kuboko, bamwicaritse ku gatanda.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ubupira w'amaboko maremare n'amasogisi byose bisa umweru, ikabutura y'umukara, araryamye, ukuguru kumwe yakuzamuye, impande ye hari urimo kumufasha gukora iyo myitozo wafashe kuri uko kuguru kuzamuye, arimo kuyimukoresha neza mu buryo bukwiye.

Umuntu wambaye agakabutura gato cyane gafite ibara ry'umweru yagiye kwivuza imvune afite mu ivi ry'ukuguru kw'iburyo. Bamwicaje ku gatanda bamushyiho udutambaro dutandukanye. Kamwe gafite ibara ry'umweru akandi gasa umutuku. Hepfo ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru urigukomeza gukurikirana ibijyanye n'imvune ye.

Icyumba cy'inama kirimo ameza y'ibiti afite ishusho ya kare, ateretseho mudasobwa ebyiri, imbere yayo kandi hari abaganga batatu bicaye, barimo gukurikira amashusho ari imbere yabo.

Icyumba k'isuzumiro cyo kwa muganga gifite inkuta zifite ibara ry'umweru harimo n'imashini nini cyane bashyiramo umurwayi ugiye gusuzumwa, imbere y'iyo mashini hari agatanda karyamyeho umurwayi wambaye imyenda y'ubururu, woroshwe agatambaro k'umweru ugiye gusuzumwa.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri ari gukorera mu cyumba gifite ibikuta bisize irangi ry'umweru, aricaye ku gitanda, yambaye agasengeri gato cyane n'ipantaro bifite ibara ry'umukara. Aricaye amaguru yombi yayasobekeranije, ukuboko kumwe yakuzamuye, naho ukundi gufashe ku gitanda, imbere ye hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Umusore w'imibiri yombi ufite ubwanwa buringaniye, yambaye isengeri y'icyatsi, amaboko yombi yayazamuye ayafatishije icupa ririmo amazi arimo kuyimenaho mu maso, bigaragara ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri ananiwe cyane, akaba ari mu gahe ko kuruhuka.

Abaganga bari gufata amahugurwa bari kuyahabwa n'umwe muri bo wambayetabiririya y'umweru w'umugabo uhagaze imbere, ari kubereka mu mashusho ari imbere yabo abasobanurira neza, mu cyumba barimo harimo irido rifite ibara ry'ubururu ndetse n'imiryango ifite ibara ry'icyatsi.

Umusore w'imibiri yombi w'ibigango, ufite ubwanwa buringaniye, yambaye isengeri yo gukorana imyitozo ngororamubiri ifite ibara ry'icyatsi. Amaboko yombi yayazamuye yayafatishije ku icupa ririmo amazi arimo kwimenaho mu maso.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yamanitse ukuguru kumwe ku ruzitiro, yambaye isaha ku kuboko, isengeri n'agakabutura gato bifite ibara ry'umukara, hasi ku birenge yambaye inkweto zisa n'ubururu bwijimye ndetse n'umweru hamwe n'amasogisi asa umweru.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye umupira n'ikabutura y'umukara hasi yambaye inkweto z'umukara n'umweru, ahagaze mu byatsi ukuguru umwe yakuzamuyeteretse ku meza amuri imbere, hepfo ye hari amadirishya maremare cyane afite ibara ry'umweru n'ibirahuri bireberwamo.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare n'ikabutura bifite ibara ry'umukara, yagiye kwivuza imvune yagize mu kirenge cy'ukuguru kw'iburyo, bamwicaje ku gatanda ukuguru gufite ikibazo yaguhinnnye na ho ukundi kurarambuye ku gatanda. Impande ye hari umuganga uri kumukurikirana wambaye impuzankano y'akazi ifite ibara ry'ubururu.

Abanyamuryango babiri ba sosiyete ishinzwe kwita ku mbabare, umwe wambaye amadarubindi undi atayambaye, bateruye umusore bigaragara ko yavunitse atari kubasha kwigenza, bamujyana aho ari bubashe guhererwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga gifite ibikuta bisize irangi ry'umweru, amatara menshi hejuru afasha mu kongera urumuri mu cyumba, hagati harimo imashini nini cyane ifite ishusho y'uruziga iyo binjizamo umurwayi ugiye gusuzumwa, ifatanye n'agatanda gato kari imbere karyamishwaho umurwayi ugiye gusuzumwa kugira ngo abashe kwitegura.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri gato cyane, ipantaro ifite ibara ry'ubururu, arahagaze ukuguru kumwe yaguhinira inyuma, agufatishijeho ukuboko kwe kw'ibumoso, ukundi kuboko kurambuye imbere ye, hepfo ye hari igikuta gifite ibara ry'umuhondo n'iroza ryererutse.

Abaganga batandukanye bari mu cyumba cy'abarwayi, batatu muri bo bambaye amataburiya y'umweru, undi yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu mo imbere, harimo ibitanda byinshi by'abarwayi, kimwe cyicayeho umugore wifubitse igitenge gifite ibara ry'ubururu, akaba yambaye n'agapfukamunwa.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri. Aryamye ku gatanda gafite ibara ry'umukara, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, afite udusuko turyamye ku mutwe ndetse yambaye n'amaherena ku matwi. Hepfo ye hari umusore wundi w'umuzungu wambaye ingofero n'umupira w'amaboko magufi.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse afite n'umusatsi mukeya. Aricaye, imbere ye hari akana gato, kasamye, kambaye agapira k'ubururu, mama wako aragateruye, bari kugasuzuma mu kanwa.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi, ufite ikora ry'umuhondo n'ipantaro y'ubururu by'ijimye, ahagaye mu maboko ye yombi ibihingwa by'icyatsi, inyuma ye hari sima ifite ibara ry'icyatsi cy'ijimye n'umutegarugori urimo uratambuka, yambaye na we umupira usa icyatsi.

Agakarito kifashishwa mu kubika neza imiti abarwayi bakoresha gafite ibara ry'umweru n'umutuku izina ry'uwo muti rikaba ryanditswe mu nyuguti nkuru z'icyapa zifite ibara ry'umukara.